Turi kumwe ni ubwishingizi bw'ubuzima butangwa n'ikigo cy'ubwishingizi rabiyanti yacu gikorera mu Rwanda, ushobora kugura ubwishingizi muri radiyanti ukabona umutekano w'ubuzima bwawe n'umutekano wa abawe.

Hamwe nabyikorereye ushobora kwishyura serivisi zitandukanye ukoresheje serivisi z'irembo, ushobora kwishyura ibyemezo bitandukanye ushobora kwishyura ubwisungane mu kwivuza maze umuryango wawe ukaba umutekano.

Sanilamu ni ikigo cy'ubwishingizi. Ikigo Sanilamu gitanga ubwishingizi ku ndwara, ubwishingizi bw'ubuzima, ubwishingizi bw'ibinyabiziga, ubwishingizi bw'inkongi y'umuriro n'ubwishingizi bw'umutungo.

Sonarwa ni ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu Rwanda, muri sonarwa ushobora gufatamo ubwishingizi butandukanye: ubwishingizi bw'inkongi y'umuriro, ubwishingizi bw'ibinyabiziga, ubwishingizi bwo kwivuza, ubwishingizi ku mitungo, n'ibindi, sonarwa ushobora kubona amashami yayo hose mu gihugu.

Ramba na buritamu ni ubwishingizi bwo kwivuza butangwa n'ikigo cy'ubwishingizi buritamu, ushobora gufata ubwo bwishingizi hanyuma ukajya wivuza kandi ukaba ufite uburyo bwizewe bwo kwivuza bufite umutekano.

Britam ni sosiyete y'ubwishingizi mu Rwanda ushobora gufatamo ubwishingizi bwibinyabiziga, ushobora gufata ubwishingizi bw'inkongi y'umuriro, ubwishingizi bw'inyubako, ushobora gufatiramo ubwishingizi bw'ubuzima ,ushobora no gufatiramo ubwishingizi bw'ibicuruzwa .

Radiyanti yacu ni ishami riva muri sosiyete y'ubwishingizi radiiyanti mu ishami ritanga ubwishingizi bw'amatungo, iyo itungo rirwaye wararifatiye ubwishingizi baguha amafaranga yo kurisimbuza.

Sonarwa ni sosiyete y'ubwishingizi mu Rwanda, itanga ubwishingizi butandukanye; ubwishingizi bwinkongi y'umuriro, ubwishingizi bw'ubuzima, ubwishingizi bw'amashuri, inatanga ubwishingizi ku bantu bitegura gufata urugendo n'indege.

Mituweri ni uburyo bwo kwisungana mu kwivuza, buri muturage wese atanga amafaranga ibihumbi bitatu hanyuma akazivuza mu gihe cy'umwaka wose, umuryango wose rero ugomba kwishyura mituweri.

Radiant ni ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu Rwanda. Radiant itanga ubwishingizi bw'amatungo, cyane cyane ubwishingizi bw'inkoko. Umworozi yishyura mirongo itandatu ku ijana, naho leta ikamuha nkunganire ingana na mirongo ine ku ijana by'agaciro k'ubwishingizi bw'inkoko. Hishingirwa inkoko zitera amagi n'inkoko z'inyama zimaze iminsi cumi n'itanu zivutse.

Radiyanti ni ikigo cy'ubwishingizi mu Rwanda, gitanga serivise zitandukanye z'ubwishingizi hakubiyemo n'ubwishingizi bwo kwivuza, hamwe n'ubwishingizi bwo kwivuza ku giti cyawe n'abagize umuryango wawe, ikizere k'ejo hazaza, ibyishimo by'umuryango wawe, wabisanga muri radiyanti.

Banki ya Kigali ni kimwe mu bigo bikorera mu Rwanda. Banki ishobora kuguha serivise zitandukanye, kubitsa amafaranga, kubikuza, kwaka inguzanyo, no gusaba serivise zitandukanye. Ushobora no gufatamo ubwishingizi bw'ikinyabiziga.

Mobayiro mani ni uburyo bwo kwakira cyangwa se kohereza amafaranga ukoresheje telefone, ushobora gushyira porogaramu ya mobayiro mani muri telefone yawe, ukabona uburyo bworoshye bwizewe bwo kujya wohereza amafaranga, ukakira amafaranga, ukagura ibintu, ukishyura serivise zitandukanye.

Iduka ricuruza imipira idoze m'ubudodo, nshobora kwigurira imipira myiza cyane ikoze m'ubudodo kandi yamabara yose. Hari iy'umutuku, iy'umweru, iy'ubururu, iy'umuhondo niy'icyatsi biterwa n'ibara wifuza.

Iduka ricuruza ibitenge ushobora kwigurira ibitenge bitandukanye niba uri umuntu w'igitsina gore, harimo ibitenge by'amabara yose kandi ni ibitenge bihendutse kandi bimeze neza.

Akagera businesi gurupe ni sosiyete itumiza imodoka ikanazigurisha mu Rwanda ushobora kwigurira imodoka mu kagera businesi gurupe hari imodoka z'ubwoko bwose hari imodoka ushobora kugenderamo hari imodoka z'akazi hari n'modoka zitwara abagenzi muri rusange.

Imodoka nziza cyane igurishwa miliyoni cumi na zirindwi gusa, ni imodoka nshyashya kubera ko yakozwe mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu, imodoka y'umukara iteye neza kandi igaragara neza mu muhanda.

Akagera business group ni sosiyete icuruza imodoka mu rwanda itumiza modoka ikanazigurisha n'abaturage cyangwa abantu batuye mu rwanda ni imodoka nziza zihendutse kandi buri wese ya kwigurira .

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka bafite urufunguzo rwanditseho akagera motozi. Akagera motozi ushobora kuhagurira imodoka zitandukanye, hakubiyemo n'imodoka zitwara imizigo.

Imodoka nziza cyane ifite ibara ry'umukara irahagaze, iyi modoka iragurishwa amafaranga miliyoni ma mirongotu n'esheshatu z'amafaranga y'u Rwanda. N'imodoka nshya kuko yakozwe mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri kandi n'imodoka y'amashanyarazi.

Imodoka nziza cyane igurisha amafaranga makeya, miliyoni cumi n'ebyiri; ni imodoka nshyashya yakozwe mu mwaka w'ibumbi bibiri na cumi na kane kandi ikaba ari imodoka ikoreshwa n'amashanyarazi.

Imodoka zitwara abagenzi, ni imodoka nziza zifite ibara ry'umweru hari n'abashoferi bahagaze. Zishobora gukoara mu mujyi wa Kigali cyangwa zigakora mu ntara.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abantu bawugendamo n'amaguru, ni umuhanda mwiza ufite inzira y'abanyamaguru, hari amazu awukikije, hari ibyapa byamamaza ku muhanda n'ibikorwaremezo by'amashanyarazi.

Imodoka nziza cyane, imodoka yakozwe vuba mu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi, ni imodoka nshyashya ikoresha amashanyarazi nawe ushobora kuyigura.

Akagera bizinesi gurupe isosiyete y'ubucuruzi itumiza imodoka ku bantu bazikeneye, ushobora kugurayo imodoka zitandukanye zaba imodoka zo kugendamo abantu ku giti cyabo, cyangwa se imodoka zitwara abagenzi cyangwa se izitwara imizigo.

Imodoka nziza cyane ifite ibara ry'umukara igurishwa, iyi modoka ni shyashya cyane rwose kubera ko yakozwe mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane, iragurishwa miliyoni mirongo itatu n'umunani n'ibihumbi magana atanu gusa.

Imashini ibara amafaranga ishobora gukoreshwa n'abantu batandukanye, mu bigo bikomeye byakira amafaranga menshi cyangwa se mu bigo by'imari, ikoreshwa mu kubara amafaranga mu gihe uwayakiriye ari menshi adashobora kuyabarisha intoki.

Kuri banki. Hashobora gukorerwa imirimo itandukanye: kohereza amafaranga, kubitsa amafaranga, no kubikuza amafaranga. Umukozi wa banki ari aho akorera. umuntu aje gusaba serivise kuri banki.

Inote y' igihumbi y'amafaranga y'u Rwanda igizwe n'ibi bikurikira: ku ruhande rumwe hejuru haditseho banki nkuru y'u Rwanda. Munsi hari inzu ndangamurage y'u Rwanda. Hasi handitswe amafaranga igihumbi. Urundi ruhande ruriho ishusho y'ingendo hariho n'igi ririmo ikirangantego cy'u Rwanda.

Amafaranga ari mu bwoko butandukanye ashobora kuba inote, ni ukuvuga amafaranga akozwe mu mpapuro, cyangwa akaya ibiceri, ni ukuvuga amafaranga aba akoze mu mabuye y'agaciro.

Inote y'amafaranga ibihumbi bitanu y'u Rwanda, ni inote igizwe n'amabara yiganjemo ibara ry'umutuku harimo inzu ya komvesheni senta hakabamo inyamaswa y'ingagi n'amafaranga ibihumbi bitanu byanditswe ku mpande hejuru handitswe banki nkuru y'u Rwanda.

Amandazi ni ibiribwa bikunzwe cyane, amandazi agurishwa mu ma butike no mu maduka atandukanye aba akozwe mu ifu y'ingano n'isukari n'ibindi bitandukanye.

Inzu bacururizamo ibikomoka ku mata. Ni inzu isukuye irimo ibyangombwa byose ushobora kuhasanga ibintu byose bikomoka ku mata hakubiyemo amata asukika, amata y'ifu ndetse na foromaje.

Inzu icururizwamo ibyo kurya n'ibyo kunywa biciriritse, hacururizwamo amata, keke, amandazi n'imigati, umukiliya yaje barimo baramuha amata.

Umugore wambaye ishati y'umukara, arimo aracuruza amata. Afite amata meza kandi amata ye ayabika mu ijerekani. Agira umwenda w'akazi yambara igihe ari mu kazi.

Amandazi ni ikiribwa gikunze gucururizwa mu mabotike cyangwa se muri za resitora kiba gikozwe by'umwihariko mu ifu yavuye mu ngano havanzwemo isukari n'amagi.

Copedu ni ikigo cy'imari gikorera mu Rwanda; muri serivisi za Copedu harimo na serivisi ya western union. Hamwe na western union, copedu ushobora kohereza cyangwa se ukakira amafaranga ava cyangwa se ajya mu bihugu by'amahanga.

Ushobora abakoresha emutiyene mobayiro mani kuri serivisi zikurikira: ushobora koherereza umuntu amafaranga, kwishyura fagitire zitandukanye, na serivisi zitandukanye, kugura amayinite yo guhamagara, n'ibindi.

Ushobora gushyira porogaramu ya eyateri muri telefone yawe. Iyo porogaramu ya mayi eyateri ishobora kugufasha mu bintu byinshi bitandukanye. Ushobora kuguriraho interineti, ushobora koherereza abantu amafaranga, ushobora kwakira amafaranga, ushobora kubikuza, ushobora no kwishyura ibintu bitandukanye.

Uburyo bwo guhahira kuri murandasi, ushobora kwishyura mu buryo butandukanye, ushobora gukoresha amakarita ya banki, ushobora gukoresha uburyo bwo kuguhereza amafaranga avuye kuri banki yawe ndetse ushobora no gukoresha uburyo bwa mobayiro mani.

Ukoresheje mobayiro mane ushobora gukora serivisi zitandukanye ushaka kohereza amafaranga ushobora kwishyura fagitire na serivse zitandukanye ba ushobora kugura amayinite ushobora no kwishyura umuntu ukoresheje mobayiro mane.

Hari uburyo butatu bwizewe bwo kohereza umuntu amafaranga, adafite konti yo muri banki, uburyo bwa mbere ni ukuyamuha mu ntoki, ubwa kabiri ni ukuyamwoherereza akoresheje mobayiro mani, ubwa gatatu ushobora kumwoherereza amayite akoresha yo guhamagara kuri terefoni.

Sipeni ni ikoranabuhanga rya Ayendemu banke muri telefoni, ushobora kurikoresha wishyura ibintu byinshi bitandukanye, ushobora kwishyura amazi ya wasake ukoresheje Sipeni bikagenda neza.

Kopedo ni kimwe mu bigo by'imari bikorera mu Rwanda, muri kopedu ushobora kuhabona serivisi zitandukanye hakubiyemo kohereza no kwakira amafaranga aturutse hanze y'igihugu hifashijwe uburyo bwa manigaramu.

Sipeni ni uburyo bw'ikoranabuhanga bukoreshwa kuri telefone butangwa n'ikigo cy'imari cya Iyendemu banke, ukoresha Sipeni ushobora kubonamo serivisi zitandukanye ushobora kubikaho amafaranga, ushobora kubikuza amafaranga, ushobora koherezaho amafaranga, ushobora no kwishyura fagitire zitandukanye.

Sipeni nuburyo bw'ikoranabuhanga bwo kohezanya kohereza amafaranga kwakira amafaranga kubikuza amafaranga kwishyura ibintu byose bitandukanye ukoresheje telefone ye igendanwa n'uburyo bwa banki ya ayi endi emu banki.

Airtel ni sosiyete y'itumanaho mu rwanda ushobora gukoresha airtel ibintu byinshi bitandukanye ushobora kubikuza amafaranga, ushobora kohereza amafaranga, ushobora kugura ibintu bitandukanye, ushobora no kwishyura fagitire zitandukanye.

Ikigo cy'imisoro n'amahoro gisaba abantu bose bakora ubucuruzi ko bagomba kumenyekanisha ubucuruzi bwabo n'ibyo binjije n'ibyo bacuruje kandi bamara kumenyekanisha bakishyurira igihe kugirango batagerwaho n'amande

Rwanda reveni ni ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro, buri mucuruzi wese agomba gukora imenyekanisha ry'ubucuruzi bwe kandi akishyurira igihe, kugirango atazacibwa amande bigendanye n'uko yakoze imenyekanisha atihinze cyangwa akishyura atinze.

Ivunjisha ni uburyo bukoreshwa n'ibigo by'imari butuma umuntu uturutse mu gihugu aje mu kindi, abona amafaranga yo gukoresha muri icyo gihugu, cyangwa se bigatuma umuntu ugiye mu kindi gihugu abona amafaranga yo gukoresha mu gihugu agiyemo.

Kuvunjisha amafaranga ni ugutanga amafaranga wari ufite yo mu gihugu kimwe ugahabwa andi yo mu kindi. Ibyo bifasha abantu bakunda gutembera mu bihugu by'amahanga, kugirango babone amafaranga yo gukoresha muri ibyo bihugu.

Ibiro by'ivunja ry'amafaranga ushobora ku kuvunjisha amafaranga mu yandi mafaranga y'ikindi gihugu igihe ukeneye kujya mu kindi gihugu, kugira ngo uzabone amafaranga yo gukoresha nugerayo cyangwa ukavunjisha amafaranga mu gihe uvuye mu gihugu uje mu kindi.

Aho bavunjishereza amafaranga y'amahanga, ushobora gukenera amafaranga y'amahanga mu gihe wagiye mu kindi gihugu ukazakenera guhaha, cyangwa se ugakenera amafaranga yo mu rwanda mu gihe uvuye mu mahanga ukakenera guhaha mu Rwanda.

Ibiro bivunjishirizwamo amafaranga, ushobora gukenera kuvunja amafaranga iyo ugiye mu kindi gihugu, kugirango uzabone amafaranga y'icyo gihugu uzakoresha nugerayo, ushobora no gukenera ku kuvunjisha amafaranga mugihe urimo kwinjira mu gihugu ushaka amafaranga y'igihugu winjiyemo.

Aho bavunja amafaranga umuntu akenera kuvunjisha amafaranga iyo agiye mu kindi gihugu kugira ngo abone amafaranga azakenera muri icyo gihugu ushobora no gukenera amafaranga yo mu gihugu winjiyemo.

Ibiro bikoreshwa mu kuvunja amafaranga. Umuntu avunndisha amafaranga ye yitegura kujya mu gihugu cy'amahanga, kugira ngo azabone amafaranga akoresha ayo muri icyo gihugu. Cyangwa umuntu akavunsha amafaranga iyo yitegura kuza mu gihugu, kugira ngo abone amafaranga icyo gihugu agiyemo.

Ibiro bivunjishirizwamo amafaranga ukenera kuvunja amafaranga mu gihe witegura kujya mu kindi gihugu kugira ngo ubone amafaranga yo gukoresha y'icyo gihugu, cyangwa se mu gihe uje mu gihugu ukeneye amafaranga y'imbere mu gihugu wakoresha.

Ibiro bivunja amafaranga, bifasha abantu batandukanye bitegura kujya mu kindi gihugu, kubona amafaranga muri icyo gihugu yo kuzakoresha bagezeyo, bigafasha n'abantu batandukanye binjiye mu gihugu kubona amafaranga yo muri icyo gihugu yo gukoresha

Inzu igaragara aho bavunjishiriza amafaranga, umuntu avunja amafaranga iyo akeneye kujya mu kindi gihugu, kugira ngo azabone amafaranga yo gukoresha muri icyo gihugu agiyemo.

Inzovu nziza cyane ishashemo amakaro hari intebe nziza cyane zikoze mu mbaho zifite imisego myiza, wazikoresha uruhuka cyangwa se abashyitsi mukaganira mwicayeho.

Intebe nziza cyane zikoze mu rubaho runoze, ni intebe wakwicaraho uri gusangira n'abawe cyangwa se izi ntebe zikaba zakoreshwa mu gihe umuntu ari kurya.

Intebe nziza wakwigurira ukazikoresha mu rugo iwawe, ni intebe dushobora gukora ziri mu mabara menshi atandukanye, ariko izikoze mu mbaho kandi ziba zisize neza zigaragara neza.

Intebe nziza cyane wakoresha wakenera iwawe mu rugo ikozwe mu giti. Iyi ntebe ushobora kuyikoresha mu ruganiriro aho kurira ndetse n'ahandi ndetse ushobora no kuyakiriraho umushyitsi.

Ibikoresho byiza cyane bikozwe mu mbaho utubati twiza cyane ameza ameze neza intebe zimeze neza umuntu yakwicaraho, umuntu ushaka guzikoresha arimo kurya.

Ibikoresho byiza cyane bikoze mu mbaho akabati umuntu ashobora kubikamo ibintu ukoresho byinshi bitandukanye amasahani ,ibikombe n'ibirahure ameza umuntu ashobora kuriraho n'intebe zo kwicaraho nziza cyane .

Mariyoti hoteli ni imwe mu mahoteli akomeye cyane mu Rwanda, ni hoteli yubatse neza ifite ibyumba bitandukanye, ariko igishishikaje ni uko ifite ubusitani bwiza n'ibiti bitandukanye umuntu yatemberamo.

Hoteli nziza cyane umujyi wa Kigali ni hoteli yakira abagenzi benshi batandukanye kubera ubwiza bwayo. Ifite umuhanda mwiza ujyayo ikagira ibyumba byiza, ikagira n'ubusitani bwiza umuntu yakwicaramo akaruhuka.

Ahantu heza cyane umuntu yatemberera hari inzu nziza hari ubusitani bwiza, hari ibiti bitandukanye bishobora kuzana umuyaga n'umwuka mwiza, ushobora kuryama muri ibi byatsi ukagava ubuyanja.

Hoteri nziza cyane imeze neza ifite ibyangombwa byose bikenewe. Iyi hoteri irakeye iri mu ibara ry'mweru hari aho abantu bicara bafatira icyo kunywa, hari amazi abantu bakogamo n'aho baruhukira bavuye koga.

Aho bafatira amafunguro n'ibyo kunywa bitandukanye, ni heza cyane! Kubera ko hari intebe zimeze neza, ameza ateguye neza kandi ariho ibirahuri. Imbere hari insakazamashusho abantu bareba igihe bari mu gufata amafunguro.

Intebe nziza zo kwicaraho hari n'ameza umuntu yaterekaho ibintu, ibi byose biri ku nzu yo hejuru, aho ushoboye kuhicara aba yitegeye imiturire y'abantu.

Ahantu heza cyane ho kuruhukira, hari imitaka ishobora kurinda abantu izuba, hari ameza n'intebe zitandukanye umuntu yakwicaramo, habereye ijisho rwose.

Ahantu heza cyane umuntu yatemberera, hari imitaka myiza irimo intebe umuntu yakwicaraho ari gufata icyo kurya n'icyo kunywa, hari amazi meza yo koga, kandi hari n'intebe ziteye ku ruhande umuntu aruhukiramo arangije koga.

Hoteri nziza cyane umuntu yacumbikamo ifite amategura niyo ayubatse yabatijwe amatafari ahiye hahagaze imodoka ebyiri z'abakiriya ikikijwe n'ibiti bitandukanye.

Icyumba k'inama kiza cyane giteguyemo intebe nziza, kiriho ameza atandukanye abantu bicaraho, kandi imbere ya buri ntebe hariho amazi buri muntu ashobora kunywa, kirimo n'uburyo bw'ikoranabuhanga.

SONARWA ni ikigo cy'ubwishingizi m'u Rwanda. SONARWA itanga ubwishingizi butandukanye, hari: Ubwishingizi bw'ubuzima, ubwishingizi bw'ibinyabiziga, ubwishingizi bw'inkongi y'umuriro, bwishingizi bw'amatungo n'ubwishingizi bw'ibihingwa.

Radiyanti ni ikigo cy'ubwishingizi mu Rwanda. Radiyanti itanga ubwishingizi butandukanye hakubiyemo ubwishingizi bw'ibinyabiziga, ubwishingizi bw'inkongi y'umuriro, ubwishingizi bw'ubuzima n'ubwishingizi ku mazu cyangwa se n'ubwishingizi bw'ibihingwa.

Saniramu n’ikigo cy'ubwishingizi mu Rwanda gitanga ubwishingizi butandukanye, saniramu ikaba ifite abakozi batandukanye kandi saniramu ikaba ifite icyumba cy'inama cyiza cyane, kirimo ameza meza cyane kirimo n'intebe abantu bicaraho bari mu nama.

Akisesi banki ni ikigo cy'imari gikorera mu Rwanda, ushobora gufungura konti muri akisesi banki ukayikoresha ibintu bitandukanye, ushobora gufungura konti yo kubitsa, ushobora fungura konti yo guhemerwaho n'izindi.

Goshene finance ni ikigo cy'imari mu rwanda. Goshene, itanga inguzanyo zitandukanye hakubiyemo n'inguzanyo ku mashuri. Umuntu ufite umwana mu ishuri ashobora gusaba inguzanyo muri goshene akabona amafaranga yo kumwishyurira.

Icyumba cy'amahugurwa abantu batandukanye bicaye mu myanya yabo, harimo imyanya iticayemo abantu bataraza ameza ateguye neza, abantu bose barimo barakurikira icyumba kimeze neza kirimo umwuka mwiza.

Ekobank ni ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu Rwanda. Hamwe na Ecobank ushobora kohereza cyangwa kwakira amafaranga aturutse mu muryango wawe cyangwa inshuti zawe zituye mu bihugu byo hanze y'igihugu cyacu.

Paul kagame ni perezida wa repubulika y'Urwanda kuva umwaka wa bibiri na agatatu kugeza uyu munsi, ni perezida mwiza, ibyo bikaba bigaragaza ko buri gihe iyo habaye amatora, abaturage baramutora, ni perezida ukunda kuba yishimye buri gihe.

Kopedu ni ikigo cy'imari gikorera mu Rwanda, muri kopedu ushobora kuhasanga serivisi zikurikira: kubitsa amafaranga, kubikuza amafaranga, guhabwa inguzanyo zitandukanye, inguzanyo z'ubucuruzi, inguzanyo z'ubuhinzi n'izindi.

Kopedo ni ikigo cy'imari gikorera mu Rwanda, Kopedo ushobora kuhasanga serivisi zitandukanye, kubitsa no kubikuza amafaranga, serivisi z'inguzanyo zitandukanye, inguzanyo z'ubwubatsi, iz'ubucuruzi, iz'amashuri, n'ibindi.

Equity bank ni ikigo cy'imari gikorera mu rwanda muri equity bank ushobora kubonamo inguzanyo y'ibinyabiziga ukajya wishyura amafaranga makeya ushobora kubona ikinyabiziga cy'inzozi zawe .

Isoko ry'imbuto zitandukanye, nyuma aha ushobora kuhasanga imbuto zitandukanye; iminege, amaronje, indimu, amatunda, inanasi n'ibindi, harimo abantu baje kugura n'abaje kugurisha izo mbuto.

Umugore uririmo gucuruza imbuto, yambaye ikote ry'umukara afite n'umusatsi w'umukara cyane, imbuto acuruza ni imineke ni amaronji, avoka, inanasi n'imineke.

Isoko rya kijyambere ricururizwamo imbuto n'imboga, harimo imbuto z'ubwoko butandukanye, indimu, amaronje, imineke n'ibindi harimo n'imboga z'ubwoko butandukanye, abaricururizamo barishimye.

Isoko rya kijyambere rya Nyabugogo, ni isoko ryakusanyirijwemo abantu batandukanye bacururizaga mu mihanda, bagurisha n'abantu bo ku modoka. Ubu ni isoko ryiza rya kijyambere umuntu ashobora kuza agahahiramo ibintu byinshi bitandukanye.

Iduka ricuruza imbuto n'imboga wagura imbuto zitandukanye imyembe, amaronji, inanasi n'ibindi ushobora no kugura n’ imboga zitandukanye amashu, karoti, ibitunguru n'ibindi.

Isoko ry'inkweto n'ibikapu. Hano ushobora kwiguriramo inkweto zitandukanye zo mu bwoko bwa badaboda, kandi z'amabara atandukanye. Ushobora kugura kandi ibikapu, ni ukuvuga amasakoshi y'abantu b'igitsina gore.

Isoko ry’imboga rigizwe n’imboga zitandukanye; hari pavuro, inyanya, ibitunguru, karote n’ibindi ndetse n’urusenda. Abacuruzi barimo baracuruza imboga zabo.

Isoko ry'imboga zitandukanye, hari imboga karoti, ibitunguru, inyanya, amashu, pavuro, idodo n'izindi. Abantu bashobora kuzamo iri isoko bakihahira imboga.

isoko ry'ibiribwa ni isoko rya kijyambere ricururizwamo ibiribwa bitandukanye igitoki, ibirayi, ibijumba, intoryi, amashu n'ibindi harimo abantu batandukanye barimo kugurisha n'abarimo kugura

Abantu batandukanye barimo baragurisha imboga, harimo abafite urusenda, puwavuro, intoryi, igitoki, n'ibindi, ni abantu b'igitsinagore kandi barimo baraseka, bigaragara ko bishimye, babonye abakiliya, abakiliya.

Isoko ry'ibyokurya rikubiyemo ibyokurya bitandukanye nk'imboga ,inyanya, ibitunguru ,amashu n'ibindi byokurya bitandukanye ushobora kwiguriramo ibyo utekesha umuntu wambaye umupira w'umukara arimo arabicuruza .

Iduka ricuruza amapantaro, nshobora kwigurira amapantaro atandukanye kandi ku giciro gihendutse, amapantaro ari mu mabara atandukanye. Uburyo bwo kwishyura, ushobora kwishyura ipantaro waguze ukoresheje mobayiro mani.

Akazu gatangirwamo serivise za mobayiro mane, mobayiro mane ni uburyo bwa emutiyene bwo kohereza amafaranga, kubitsa amafaranga no kuyabikuza, kwishyura serivise zitandukanye ukoresheje telefone.

Ahantu hose ushobora kwishyura ibyo waguze ukoresheje mobayiromani, haba mu maduka, haba nahandi hose, uburyo bwa bwa mobile mobayiromani, biri burizewe ukanda kuri terefone yawe, hanyuma ugashyimo amafaranga ukohereza kuri kode y'umucuruzi.

Akazu gacururizwamo serivise za mobayilo mane. Mobayilo mane ni serivise itangwa na sosiyete y'itumanaho ya emutiyene Rwanda. Kuri mobayilo mane ushobora kubitsa amafaranga, ukohereza amafaranga, cyangwa se ukagura ibintu bitandukanye.

Emutiyeni rwanda ni sosiyete y'itumanaho ikorera mu rwanda igira serivisi zitandukanye nko gucuruza telefone, gucuruza murandasi n'ibindi iyi sosiyete kandi ifite uburyo bwa mobire mani bwo kohereza no kwakira amafaranga.

MTN nikimwe mu bigo bitanga serivisi za murandasi ushobora kugura murandasi ukoresha mu rugo iyo ukoresha mubiro cyangwa iyo ukoresha kukazi iri kumuvuduko wihuta.

Akazu gatangirwamo serivisi za MTN mobile money. Ni serivisi ifasha abantu bose kwakira kohereza kugura ibintu bitandukanye bakoresheje amafaranga, ariko kuri nimero yabo ya mobile money .

Hamwe na mobile money, ushobora kwishyura umucuruzi ukoresheje nimero yihariye y' umucuruzi, kandi ushobora kwishyura muri ubwo buryo ntayandi mafaranga wishyuzwa, kwishyura na mobile money biroroshye cyane.

Ushobora kwishyura serivisi zitandukanye cyangwa se ibyo wakoze ukoresheje mobile money aho ushobora gushyiramo kode yahawe umucuruzi hanyuma ukishyuraraho amafaranga bya serivisi waguze .

akazu ka emutiyene mobayiro mani, mobayiro mani money ikoreshwa n'abanyarwanda benshi bakayikoresha abohererezanya amafaranga, bakira amafaranga, bishyura serivisi zitandukanye cyangwa se bishyura ibintu byinshi bitandukanye.

Mu iduka ushobora kwishyura ukoresheje uburyo bwinshi butandukanye, ariko cyane cyane uburyo bworoshye ni ugukoresha emutiyene mobayiro mane. Akaba ari uburyo bwo kwishyura umucuruzi ukoresheje amafaranga ufite kuri mobayiro mane yawe.

Akazu ka mobayiro mani, mabayiro mani ni serivisi ya emutiyene igamije gufasha abantu kohereza no kwakira amafaranga kuri telefone yabo, ushobora kuyikoresha kandi wishyura umucuruzi cyangwa wishyura serivisi zitandukanye.

Akazu gatangirwamo serivisi za mobile money umukozi ukorera muri kariya kazu aricaye mobile money ni serivisi ishobora kuguha uburyo bwo kubikuza amafaranga kohereza amafaranga no kwishyura ibintu bitandukanye akoresheje telefoni.

Abakozi b'isosiyete y'itumanaho ya emutiyene barimo barigisha abaturage kugura serivise nshyashya babazaniye, kandi barimo barababwira ibihereranye n'ubwiza bwa emutiyene.

Akazu gatangirwamo serivisi za mobayiro mane, mobayiro mane ni uburyo bwo kohereza no kubitsa amafaranga ukoresheje simukadi ya emutiyeni mobayiro mane ushobora kwishyura no kubohereza abantu batandukanye amafaranga.

Irembo govu ni urubuga rusabirwaho serivise zitandukanye za leta. Irembo ushobora gusabiraho ibyemezo bitandukanye ukeneye nk'ikemezo k'ingaragu, ikemezo cy'ubutane, kwemeza ko uri umutindi cyangwa uri imfubyi, ikemezo cy'uko utishoboye warokotse jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane n'ibindi byemezo bitandukanye.

Iposita ni ikigo cy'igihugu kigeza ubutumwa kuri bayirabwo, gikoresha uburyo butandukanye kugira ngo ubutumwa bugere kuri banyirabwo, gikoresha amamodoka atandukanye ndetse na za moto kugira ngo bijyane ubu butumwa.

Aribaba ni sosiyete icururiza kuri murandasi, ushobora kugurishirizaho ibintu bitandukanye, ushobora no kuguriraho ibintu bitandukanye, ushobora gucururizaho ibikoresho byo mu rugo, ibikoresho byo mu gikoni imyenda inkweto n'ibindi.

Alibaba ni sosiyete y'ubucuruzi ikorera kuri murandasi. Ku rubuga rwabo ushobora kuguriraho cyangwa se wagurishirizaho ibintu bitandukanye. Imyenda, inkweto, ibikoresho byo mu rugo, ibikoresho byo mu gikoni ndetse n'ibindi.

Kuri miliyoni ijana na cumi n'eshanu ushobora kwigurira inzu yawe i Kigali ni inzu nziza cyane isakaye neza, igaragara neza iriho amatara meza ndetse ifite imbuga itarimo ibyondo.

Inzu nziza cyane igurishwa mu mujyi wa kigali mu rwanda, ni inzu yubatse neza ifite amabati meza, ifite ikibanza kinini kandi ifite ubutaka imbere yaho bushashe, igurishwa amafaranga make miliyoni maganabiri na mirongo ine gusa.

Inzu nziza cyane mu Rwanda wakodesha amadora igihumbi ku kwez,i ni inzu nini yisanzuye ifite igipangu kimeze neza, kandi nayo ubwayo imeze neza, ni inzu iri ku muhanda ku buryo kugenda byoroshye.

Inzu nziza igurishwa ku mafaranga make cyane muri kigali; miliyoni ijana cumi n'eshanu gusa z'amafaranga y'u rwanda; inzu nziza ifite amabati atukura agezweho, ifite imbuga nini bihagije.

Inzu nziza cyane igurishwa. Ni inzu imeze neza, yubatse ahantu heza, ifite ibyangombwa byose ndetse ifite n'amatara meza. Ushobora kuyigura miliyoni ijana na mirongo ine z'amanyarwanda.

Ku mafaranga miliyoni ijana na mirongo itatu z'amanyarwanda; ushobora kuguramo inzu nziza cyane mu mujyi wa kigali. Ni inzu ifite ubuso bugaragara, ifite amarangi meza, yubatse n'ahantu heza kandi ikikijwe n'ibiti bitanga akayaga.

Inzu wagura amafaranga make cyane miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda muri Kigali. Ni inzu nziza cyane ifite umuhanda mwiza ugerayo, ikinze neza, ifite amabati meza kandi rwose ni inzu itubutse.

Inzu nziza cyane ikodeshwa amafaranga makeya ibihumbi magana atandatu gusa ku kwezi ushobora kubona iyi nzu y'ibyumba bibiri ikoze neza irangiye wakwishimira.

Inzu nziza cyane wakodesha ukayituramo i Kibagabaga mu murenge wa Kimironko. Ni inzu nziza cyane ifite amatara meza igaragara neza, ifite ibyumba bibiri n'ahantu habiri ho kwiyuhagirira, ku mafaranga ibihimbi magana atatu yonyine.

Inzu ntoya usa no gukodesha muri Kigali i Remera ni inzu ntoya ariko yubatse neza ifite amasuku ni icyumba kimwe n'ubwiyuhagiro bumwe kandi ni inzu ihendutse cyane rwose.

Inzu imeze neza ikiri nshya iri iherereye i Kigari Kimironko, iyo nzu wayikodesha ku mafaranga ibihumbi magana ane y'amanyarwanda ku kwezi, ifite ibyumba bibiri naho kwiyuhagirira habiri, ni inzu nziza kubera ko ifite imbuga itubutse.

inzu nziza cyane ikodeshwa ifite amabati meza ifite inkuta nziza ifite amadirishya meza n'inzugi nziza, yubatse ahantu heza kandi irakodeshwa kuri maganatatu ku kwezi.

Inzu nziza cyane ikodeshwa i Kigali, i Kanombe, ni inzu nini iri mu gipangu kinini bihagije. Ni inzu nini ku buryo ifite ibyumba bine n'ubwiyuhageriro butatu, ikodeshwa ibihimbi magana atanu ku kwezi.

Inzu nini kigali cy'mironko ikodeshwa ifite ibyumba bibiri bifite ubwihagiro bubiri ku mafaranga magana atanu mirongo itanu gusa inzu nziza yubatse ahantu heza kandi ikaba ifite ibikenerwa byose.

Inzu nziza cyane imeze neza, isize amarange meza, ikozwe n'ibyuma bimeze neza, wayikodesha ku madorari ibihumbi magana atanu ku kwezi. Iherereye mu Rugando mu murenge wa Kimihurura mu mujyi wa Kigali.

Inzu igurishwa miliyoni mirongo inani n'eshanu mu mujyi wa Kigali i Kanombe, ni inzu yubatswe ikiri nshyashya kandi ifite imbere ahantu imodoka yahagarara mu gihe umuntu uyiguze yaba atunze ikinyabiziga.

Umugabo wambaye neza inkweto nziza ipantaro nziza ikote ryiza n'isaha, ahagaze imbere y'inzu imeze neza ikiri nshyashya ifite inzugi nziza amarange meza n'ibirahure bimeze neza.

Inzu ikodeshwa mu mujyi wa kigali i gikondo ikodeshwa make cyane ibihumbi magana biri mirongo itanu ku kwezi inzu ifite ibyumba bibiri nu bwiyuhagiriro n’ inzu nziza ifite amadirishya manini n'inzugi nini.

Inzu nziza nshyashya yuzuye i kanombe ushobora kuyigura ko giciro gitoya utatekereza. Ni inzu yubatse neza kandi mu buryo bugezweho, ifite ubusitani bwiza kandi n'indabyo zihateye ni nziza cyane.

Inzu ikodeshwa amafaranga makeya i remera muri kigali, n'inzu nziza cyane ifite icyumba kimwe n'ubwuhagiro bumwe, ifite igikoni cya kijyambere mo imbere ni inzu yakodeshwa n'umuntu umwe cyangwa babiri.

Inzu nziza cyane yo gukodesha ni inzu imeze neza iteye neza yubatse ahantu heza kandi ifite imbuga itarimo ibyondo, iyo nzu ushobora kuyikodesha ifite ibyumba bine n'ubwuhagiriro batatu.

Inzu nziza ikodeshwa muri Kigali, i Kanombe. Ni inzu nziza, yubatse, irimo amakaro, kandi iri ahantu heza. Ushobora kuyikodesha ibihumbi magana atanu ku kwezi, ifite ibyumba bine, n'aho umuntu yogera hatatu.

Inzu nziza cyane isakaje amategura agezweho, yubatse mu buryo bwa kizungu ifite amabara meza atandukanye. Umuntu w'umugabo wambaye ipantaro y'umukara arimo arayisohokamo.

Inzu nziza cyane ikodeshwa amafaranga make i Kigali kimironko, n'inzu yubatse ahantu heza kandi nini bihagije kuko ifite ibyumba bitatu naho kwiyuhagirira habiri, ikodeshwa ibihumbi maganatatu y'amanyarwanda ku kwezi.

Iduka ricuruza ibinyobwa bitandukanye bitarimo umusemburo, ushobora gusangamo ibinyobwa byakozwe mu mbuto zitandukanye kandi ukahasanga amazi y'ubwoko butandukanye. Umukobwa arimo aracuruza muri iryo duka.

Iyo nyubako yagenewe gukorerwamo imirimo y'ubucuruzi; inyubako ifite ibyumba byinshi bitandukanye haba hasi, haba inzu ikurikiyeho haba n' amazu yo hejuru, ishobora gukoreshwa mu bucuruzi cyangwa se igakoreshwa nk'ibiro.

Iduka ricururizwamo ibyo kurya n'ibyo kunywa ushobora kugura ibyo kunywa ama fanta, imitobe amazi n' ibyo kurya amandazi cyangwa imigati harimo abantu batandukanye baje guhaha.

Inama y'abaturage igizwe n'abayobozi n'abaturage baje mu nama abaturage bamwe baricaye abandi barahagaze umuyobozi arimo araha igihembo cy'ishimwe umuturage wabaye intangarugero .

Ejo heza ni gahunda ya leta y'ubwiteganyirize bw'igihe kirekire ushobora kwibikiriza muri ejo heza ukiteganyiriza wazagera mu gihe cy'izabukuru ukazabona pansiyo uzakomeza guhembwa ikagufasha .

Ejo heza ni ubwiteganyirize bw'igihe kirekire, gutanga amafaranga muri ejoheza bifasha umuntu wayatanze kuzabona amafaranga y'ubwiteganyirize ageze mu zabukuru. Amafaranga y'imisanzu y'abanyamuryango ba ejo heza acungwa n'ikigo gishinzwe ubwiteganyirize bw'abakozi.

Abantu batatu bose bamanitse ubwisugane mu kwivuza bwabo ubwisungane mu kwivuza ni ngombwa kuri buri munyarwanda burakenerwa igihe cyose umuntu agiye kwivuza kwa muganga cyangwa agiye kuvuza umwe mu bagize umuryango we .

Ubwisungane mu kwivuza bufasha abaturage bose bishyuye amafaranga y'ubwisungane kwivuza ndetse no kuvuza imiryango yabo ku bitaro n'amavuriro ya leta mu gihugu hose.

Ejo heza ni ubwizigamire bw'igihe kirekire ushobora kwizigamira ejo heza ukazabona pansiyo mugihe uzaba ugeze mu za bukuru ntuzatinya izabukuru cyangwa ibibazo bindi kubera ko uzahora warizigamiye.

Ubwisungane mu kwivuza ni ingenzi kuri buri muturarwanda wese, iyo wishyuye ubwisungane mu kwivuza uba ushobora kwivuza wowe ubwawe cyangwa se ukavuza umwe mu bagize umuryango wawe, bitabaye ngombwa ko arembera mu rugo.

Mu mujyi wa kigali ni n'ijoro mu muhanda harimo imodoka nyinshi zitandukanye zirimo ziragenda zicanye amatara, amatara yo ku mihanda arimo aramurikira inzira nyabagendwa, hari icyapa cyaho simba supa maketi iherereye.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye ni iduka ushobora kubonamo ibyo kunywa bitandukanye amazi ibikoze mu mitobe n'ibyo kurya bitandukanye nk'imigati za biswi amandazi na keke.

Isoko ry'imbuto zitandukanye, ushobora kwihahira imbuto zitandukanye harimo inyanya, amaronji, indimu n'ibindi, n'inanasi n'ibindi byinshi bitandukanye muri iri isoko.